Ahantu hubatse neza ku buryo bwiza kandi bubereye ijisho hicaye abantu b'abasirimu batandukanye abagore, abagabo. Imbere yaboho hari uducupa tw'amazi yo kunywa n'amakayi bandikaho bigaragara ko ari inama barimo, imbere yaho hari umugore ufite indangururamajwi ndetse ari kugenda agira ibyo abasobanuriraho.

Icyumba cyiza kandi cyubatswe mu buryo bwiza bubereye ijisho, kirimo abantu wagira ngo bari mu inama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, ibipapuro bigaragara ko hari ingingo yo kuganiraho kandi bari kwandika. N'abo bantu bagiye babarimo harimo umusaza umwe w'umuzungu ubona ufite ikaramu ndetse n'ikayi yo kwandikamo imbere ye.

Ahantu hicaye abantu benshi batandukanye ndetse muri aba benshi batandukanye harimo umugabo umwe wambaye neza imyenda y'abantu b'abasilimu, kandi iy'abantu biyubashye. Afite indangururamajwi mu ntoki ndetse yambaye n'isaha ku kaboko, bigaragara ko hari ibyo yarari kugenda aganiriza cyangwa se ibyo yarari kugenda asubiza bijyanye n'ibyo bari bamubajije.

Abantu babiri bicaye harimo umwe w'umuzungu harimo n'undi wirabura kandi wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, ku ruhande rwabo hari ibindi biganza biri kugaragara ndetse na mudasobwa, imbere yabo hagiye hateriretse uducupa tw'amazi, ku buryo hari ibintu barimo kugenda baganira bitandukanye nk'inama cyangwa se ibindi.

Abantu batatu bicaye mu ntebe nziza z'umukara zigezweho bari meza ariho indangururamajwi ndetse umugabo umwe mu bagore babiri ariwe ufite ijambo hari ibintu ari kugenda abasobanura, aho inyuma ye hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse cyanditseho amagambo ngo"Kigali yacu Kigali ikeya.

Inyubako yubatswe neza ku buryo bwiza kandi bubereye ijisho ndende ifite igipangu cyiza cy'amatafari ahiye ndetse na fondasiyo y'amabuye akomeye, hejuru y'inyubako hari iminara itandukanye ndetse bigaragara ko ari iy'ibintu by'itumanaho, hari n'igiti kikoreye cyangwa se gifashe insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abanyamaguru, amamodoka, amamoto, inzu zubatse neza imbere y'umuhanda, insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibyuma bizifashe, inyubako iri inyuma y'izindi ndende igeretse, itararangiza kubakwa ikirimo ibiti byifashishwa mu kubaka ndetse n'ibiti biteye hirya inyuma y'amazu.

Icyuma gikomeye kandi kirekire, gifite uburebure bugera nko muri metero icumi ndetse gifashe insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi kandi kuruhande rwicyo cyuma hari inzu yubatse neza kandi ikomeye.

Ahantu hashinze ibyuma bibiri binini kandi birebire bikomeye bimwe bitwara insina z'amashanyarazi, hari imashini itetse hagati na hagati ndetse n'insinga ziyifasheho, izi nsinga cyangwa se iyi mashini ishinzwe kugabanya umuriro cyangwa se kuwongera bitewe n'igikenewe, hirya y'iyo byo byuma hari inyubako nziza yubatse neza ifite igipangu cy'amatafari ahiye.

Inyubako zubatswe bisanzwe, zubakisha amatafari ahiye ndetse zifite itara, ku ruhande zifite ubusitani cyangwa se indabyo ziteye, zikase neza ndetse hari n'abantu babiri bari hino, abahungu bari kuganira no hirya hari undi muntu uri kuhatambuka.

Ahantu hubatse neza ndetse hari urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda bareba ibintu bitandukanye, hari icyapa cyanditseho materinite, inzu y'ababyeyi bashobora kuba babyariramo, hahagaze n'ibangukiragutabara.

Umuntu wambaye igikanzu kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'akabara k'umweru gatoya hagati, bigaragara ko ibi bikanzu ari bya bindi abanyamategeko bambara nk'abashinjacyaha cyangwa se abantu baburanira abandi babakura mu bintu bari kubashinza.

Inyubako nziza yubatswe neza kandi ku buryo bugezweho, ibirahuri inyuma hanze ku madirishya, ndetse hari n'imodoka ihahagaze, irimo abantu benshi bambaye impuzankano n'udupfukamunwa, bigaragara ko ari imfungwa cyangwa se abagororwa. Hari n'abandi ku ruhande bambaye imyenda isa, bameze nk'aho aribo bagomba gucunga abo bagororwa.

Mu rujya n'uruza rw'amamoto ni nyinshi cyane rumuha ahagaze mu muhanda ategereje ko abanyayamaguru babanza kwambuka ndetse n'amamodoka ari kubisikana n'amamoto abanyamaguru ndetse n'abashinzwe umutekano mu muhanda benshi kandi bahagaze mu muhanda amatara yo ku mihanda ibiti by'imikindo ibiti biri ku mpande ndetse n'inyubako zitandukanye.

Ahantu hari abantu benshi bambaye impuzankano, irimo ibara ry'umweru ndetse hasi harimo n'ibara rya kacye ndetse harimo umugabo umwe wambaye ibitandukanye n'ibyabo, imbere ye hari akana gafite icyo bakoresha barwanya inkongi y'umuriro ndetse imbere yabo hari gaze iteretse hasi, iriho isafuriya iri kwakamo umuriro mo imbere. Ari gukoresha icyo kintu bakoresha barwanya inkongi y'umuriro agerageza kuwuzimya.

Abantu babiri umugabo ndetse n'umugore b'abirabura bose bambaye amarinete imyenda y'ibikara bafite icyapa mu ntoki kiriho abantu bameze nk'abahinzi ndetse bakizamuye hejuru ahana n'ikindi cyapa kibari inyuma cyanditseho u Rwanda.

Umugore w'umwirabura, wambaye imyenda y'umweru, umanitse ibiganza, imbere ye hari imbaga y'abantu benshi, ndetse bigaragara ko hari ibintu yari ari kugenda abaganirizaho, abasobanuriraho, cyangwa se ari kugenda abakanguriraho, ku bumenyi butandukanye.

Umukuru w'Igihugu Paul Kagame ari kumwe na Madamu we Jeannette, bambaye neza kandi basa neza, bari kunyura kuri tapi y'umutuku, ndetse bari kuza mu byicaro by'ibyubahiro. Ku ntebe hagiye hateretseho uducupa tw'amazi, n'abandi bantu bose bahagaze, ahantu abantu bari bateraniye hose huzuye.

Umuhanda uri kugendamo w'ibinyabiziga, imodoka nziza igezweho mui ibara ry'umukara ndetse n'akamoto k'amapine atatu, bumwe bwikorera imizigo itandukanye, kari mu ibara ryenda gusa ubururu ndetse hakurya y'umuhanda inyuma y'imodoka, hari ibirenge by'umuntu cyangwa se amaguru y' umuntu ari kugenda mu muhanda.

Imodoka nini iri mu ibara ry'umweru zimwe zitwara abagenzi, ariko iyi ngiyi yo ni itwara abanyeshuri, iri kugenda mu muhanda, ku ruhande rwayo hari ipine ry'igare riri guhinguka, hirya y'umuhanda hari ahantu hateye ibiti, hafite uruzitiro rw'ibiti rufite igitambaro cy'icyatsi kandi hariyo ibikorwa bitandukanye biri kuhakorerwa hari n'imodoka ihaparitse.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu, harimo imodoka zimwe zitwara abagenzi hamwe abagenzi bamwe bagenda bicaye abandi bahagaze, ndetse hari n'amagare ari gutambuka, amatara yo ku mihanda, insinga z'amashanyarazi, ibiti ku mpande y'imihanda, ndetse n'aho banyweshereza esansi haba ku mamodoka cyangwa ku ma moto.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru giteyemo amakoni ndetse gikoze neza kandi giciwemo n'imirongo, hirya y'ikibuga hari uruzitiro ndetse inyuma y'uruzitiro hari ibiti bihateye bigaragara ko ari ishyamba.

Icyapa cyo ku muhanda, kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ibirango by'umukara, iki kimenyetso kikugaragariza ko ushobora gukomeza ugana imbere bitewe n'aho uri ku kujya.

Ahantu hitegeye inyubako nyinshi cyangwa se umujyi, inzu nyinshi ziri kugaragara zubatse neza kandi ku buryo bw'iterambere ikigega cy'amazi cya litiro ibihumbi bitanu, ipoto rifite cyangwa se ryikoreye insinga z'amashanyarazi, ibiti biteye ku mpande z'izo nyubako ndetse n'inyubako iri kugaragarira hirya kure yubatse neza kandi ku buryo bugezweho.

Ahantu hirengeye, inyubako nziza, ibiti byiza, hari amahumbezi muri make, hameze neza kandi hasa neza, hari inyubako zigezweho kandi zifite ibipangu byiza, inyubako zigeretse ndetse hagiye harimo n'ibiti hagati y'izo nyubako, amatara yo ku mihanda ndetse hirya hari inyubako nziza ndende isize irange ry'umweru.

Inyubako nyinshi zubatse neza kandi ku buryo bugezweho hari izigeretse hari zubatse bisanzwe hari zifite ya mirasire ishyushya amazi yo koga hateyemo ibiti hagati y'inyubako ndetse hari n'inyubako ikiri kubakwa.

Ihuriro ry'imihanda harimo imodoka iri kugenda, amatara ku mihanda, icyuma gihagaze kandi kirekire bimwe bitwara insinga z'amashanyarazi, hirya no hino y'imihanda hari ibiti byinshi bihateye bigaragara ko ari nk'ishyamba.

Umuhanda wari kunyuramo imodoka zitandukanye, amamoto, ndetse iri kugendwamo n'abanyamaguru, ku ruhande rw'umuhanda hari ahantu hari akazu ko gutegereza amamodoka, ndetse hari naho imodoka zishobora guhagarara. Hari ibiti hirya no hino by'umuhanda binini kandi birebire.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, nk'ama moto, ama modoka, amagare, ndetse n'abanyamaguru bari gutambuka mu muhanda, hari inyubako iri hino hirya y'umuhanda, igeretse kabiri kandi ubona ko ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, amatara yo ku mihanda, ndetse n'ibiti biteye hirya y'umuhanda, bigaragara ko ari nk'ishyamba rito, riri imbere y'uwo muhanda.